umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka zitwara abagenzi, moto ndetse n'abantu bagendesha amaguru, hafi yaho hari umutaka, harimo abantu batanga serivise za MTN.

Inzu zitangirwamo serivisi za MTN ndetse n'iza Airtel. Hari inyubako iyo nyubako isa n'aho bakoreramo ubucuruzi bw'amatelefone y'amoko atandukanye.

Akazu batangiragiramo serivisi z'amafaranga kubitsa ndetse no kubikuza, kugura amayinite, harimo imbere harimo umuntu n'inyuma hakabamo undi uri gusaba serivisi.

Akazu gatangirwamo serivisi za MTN, ibi bifasha abantu kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga mu buryo bwihuse kandi hari n'izindi nyubako z'amoko atandukanye zirasa n'aho zikorerwamo ibikorwa by'iterambere.

Utuzu dutangirwamo serivisi za Airtel kandi turi ku muhanda. Umuhanda urimo imodoka igendamo abagenzi, ndetse n'abantu bagendesha amaguru kandi hepfo y'uwi muhanda hari inzuzi z'ubucuruzi, zikorerwamo ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye.

Akazu gatangirwamo serivisi za MTN, serivisi batangiramo ni izo kubitsa ndetse no kubikuza, kandi hatangirwamo na serivisi yo kugura amayinite, hari umuhanda imbere y'ako kazu, kandi hari n'ibiti hepfo y'uwo muhanda.

Utuzu batangiramo serivisi za MTN harimo abazitanga ndetse hakaba hari n'abari kuzisaba, ibi bifasha abantu kubona amafaranga cyangwa se kuyashyira ku matelefone yabo mu buryo bwihuse.

Aho batangira serivisi z'ubucuruzi bw'amafaranga, batanga serivisi zo kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga ndetse no kugura amayinite, hari abatanga serivisi ndetse hari n'abari kwaka izo serivisi.

Akazu kicayemo umuntu utanga serivisi za MTN, imbere ye hari abaka serivisi kandi izi serivisi zituma tworoherwa no kohererezanya amafaranga ndetse no kubikurizanya, ikindi kandi bidufasha kugura amayinite mu buryo bwihuse.

Abantu bahagaze, imbere yabo hari ameza ariho ibikoresho bitandukanye twifashisha mu buzima bwa buri munsi, hari inkweto zo kwambara, hari imikandara, imyenda ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye twifashisha mu rugo, barasa n'aho bari mu bucuruzi.

Abantu bicaye ahantu imbere yabo hari imbuto zitandukanye. Hari amatunda ndetse n'izindi mbuto kandi hirya yabo hari amacupa arimo amavuta yo guteka.

Icyumba hicayemo abantu batandukanye benshi, harimo umugabo ufite mikoro ahahagaze, asa n'aho hari icyo ari kubwira abo bantu.

Abantu bicaye ahantu hamwe batuje, imbere hari umuntu, umugabo w'umu DASSO n'undi mu mama wambaye agapira k'umukara, kariho ikirango cy'Igihugu cyacu, umugabo w'umu DASSO nta kaboko afite, birasa n'aho umwe ari guha undi certificate.

Umumama ari mu nzu mo imbere mu nzu hari akabati karimo amacupa atandukanye, harimo amavuta muri ayo macupa, no mu ku kabati kandi harimo n'udukarito.

Inzu, yanditseho umurenge sako, hahagaze umugore, haparitse na moto, umurenge sako ufasha abantu kubitsa ndetse no kugurizanya amafaranga, bikabafasha mu iterambere ry'igihugu.

Inzu nini ikorerwamo ibikorwa by'ububaji ndetse harimo n'abantu bari gukora ibyo bikorwa, harimo amamashini agiye atandukanye, yifashishwa muri iki gikorwa cy'ububaji.

Abantu benshi bicaye mu nyubako, imbere yabo bantu hahagaze abagabo batatu, babiri bambaye udupira tw'umukara dusa, hagati yabo hahagaze mu mugabo bari kumuha impamyabumenyi.

Abantu batwa ibinyabiziga ku kumuhanda w'igitaka, ibyo binyabiziga kandi biriho ibikoresho byifashishwa mu gutwara amata, hirya y'umuhanda hari ibyatsi ndetse n'ibiti kandi birasa n'aho biri mu gipangu.

Abantu bahagaze ku murongo, imbere yabo hari ikibuga kirimo umucaca ndetse inyuma yabo hari imirima irimo ibihingwa bitandukanye, ahantu bahagaze hakikijwe n'ibiti.

Abantu bari ahantu hamwe, harimo abamama n'abapapa, imbere y'aho hari mbabura, bakikijwe n'ibiti birasa n'aho bashyize hamwe kugira ngo bakore umurimo umwe biteza imbere.

Inyubako iyi nyubako imbere yayo hari akabuga gatoya k'igitaka, haparitseho moto ndetse hari n'umumama uhetse umwana uhagaze, kuri iyo nyubako kandi handitsweho ngo: "Umurenge SACCO".

Inzu irimo ubwoko bwinshi bw'inkoko butandukanye, harimo umugabo wambaye imyenda y'ubururu, uyu mugabo asa n'aho arikuzireba ngo arebe ikibazo zifite.

Inzu irimo intebe ndetse n'ameza, kuri ayo meza n'intebe hari ibikombe n'amasahani, birasa n'aho ari ahantu biyakirira.

Akabati karimo inzoga nyinshi zitandukanye, zose zirapfundikiye. Zifite amabara atandukanye: hari izifite amabara y'umutuku, amabara y'umukara, amabara y'umweru ndetse n'andi mabara atandukanye menshi.

Inzu irimo ameza ndetse n'intebe, hicayemo abantu bafite ibyokunywa bitandukanye. Birasa nk'aho aha ari ahantu bakirira abantu.

Inzu iriho icyapa kiriho abantu basa naho bizihiwe, iki cyapa kandi kiriho icupa ry'inzoga cyanditseho ngo huza inshuti nyanshuti, birasa n'aho iyi nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibinyobwa bituma abantu basabana.

Ahantu hari akabati karimo ibyo kunywa bitandukanye. Imbere yaho hateretse n'ibindi byo kurya. Harimo ibikozwe mu mafu y'amafarini. Harimo n'imbuto, harimo n'ibindi bitandukanye byo kurya.

Inzu irimo amacupa menshi atandukanye arimo ibyo kunywa. Iyi nzu kandi harimo intebe ndetse n'ameza harimo n'akabati. Biragaragara ko ari ahantu bakorera ubucuruzi bw'ibyo kunywa.

Icyumba kinini cyane kirimo ameza n'intebe bitondetse mu matsinda, kuri ayo meza kandi hariho amasahani ndetse n'ibikombe, birasa naho ari ahantu biyakirira bari kurya cyangwa se bari kunywa.

Inzu irimo inzoga nyinshi zitandukanye z'amoko menshi, inzoga mu buzima busanzwe bwa muntu, zifasha abantu kwishimisha, kwishimana n'abandi ndetse no kongera imbaraga mu mubiri wabo.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye intebe, ameza ndetse n'akabati na firigo, iyi nzu kandi harimo ibyo kunywa bitandukanye, birasa n'aho ari ahantu abantu biyakirira bari gusangira ibyo kunywa.

Aho bakorera ubucuruzi hari ikarito y'amavuta akorerwa mu Rwanda, aya mavuta yifashishwa mu guteka bityo bikaturinda indwara nyinshi zitandukanye zaterwa n'imirire mibi.

Inzu y'ubucuruzi harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye harimo amacupa, amabase ndetse n'ibindi bintu byo kurya, hahagazemo umumama birasa naho ariwe nyiributike.

Inzu y'ubucuruzi harimo umumama ari gucuruza ibintu bitandukanye, harimo amavuta yo kwisiga, amavuta yo guteka, mukaru, amabombo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Aho bakorera ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, bacuruza intebe, amabase, imikoropesoyo, hari amaduka, imbere y'ayo maduka, haparitse imodoka.

Inzu y'ubucuruzi irimo amoko y'ibicuruzwa atandukanye, harimo amafu y'ubwoko butandukanye, harimo amavuta yo guteka ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, harimo kandi n'umumama birasa naho ariwe nyiri iyi butike.

Umuhanda ugendamo abantu ndetse n'ibinyabiziga, hepfo y'umuhanda hari igiti, icyo giti hari inzu z'ubucuruzi zitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi harimo gaz zitandukanye, inini n'intoya ndetse n'ibikoresho byazo, hari abantu, hari udutebe, hirya hari umutaka w'umu agent.

Amagaze menshi y'ubwoko butandukanye, hari umuntu urimo gukorera amasuku aya magaze. Gaze zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, uburyo bwo kwihutisha igikorwa cyo guteka ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Ibicuruzwa byinshi bitandukanye. Hari abari kugura ndetse hari no kugurishwa. Hari inyanya, imbuto ndetse n'amavuta menshi atandukanye.

Inzu irimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, ubufuka bwimikeri, ubwa kawunga, amavuta atandukanye ayo kwisiga n'ayo guteka. Harimo umugabo uri kwereka umukiriya ibicuruzwa.

Inzu y'ubucuruzi harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye twifashisha mu buzima bwa buri munsi nk'inyanya, imigati ndetse n'amavuta yo guteka n'ibindi bicuruzwa byinshi bitandukanye, harimo umuntu afite ikaramu ndetse n'ibyo kwandikaho.

Abantu bambaye impuzankano bari mu mazi menshi, imbere y'aba bantu hari umuntu we ntabwo yambaye impuzankano, afasha undi asa n'aho ari kumubatiza muri aya mazi menshi.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe zo kwicara ndetse n'ameza, hanze y'inzu kandi hariho ibiti byinshi by'amoko atandukanye.

Inzu irimo intebe ndetse n'ameza, iyi nzu iri hafi y'umuhanda ikikijwe n'indabo n'ibiti, iyi nzu kandi igaragara nk'aho ari iyo abantu biyakiriramo ndetse bagasangira ikindi bakanaruhukiramo.

Inzu irimo ibyumba byinshi bitandukanye, hafi y'iyo nzu kandi hariho imitaka irasa n'aho ari n'ahantu abantu bicara baruhukira kandi hari n'amazi yo kogeramo.

Umugore n'umugabo, bicaye, bari gusangira, icyo kunywa, barishimye bari guseka, imbere yabo hari, ibyo kwifashisha mu soko.

Icyumba kirimo igitanda ndetse iki gitanda gisasheho, harimo inzitiramibu hari kandi n'ibindi bikoresho byo mu cyumba, birasa n'aho ari ahantu baruhukira.

Icyumba kirimo igitanda ndetse n'ibyo kuryamaho, muri iki cyumba kandi harimo n'intebe zo kwicaraho, birasa n'aho ari ahantu baruhukira.

Ni amafunguro atandukanye, harimo salade, umuceri, ifiriti, amakaroni ndetse n'ibyo kwaroza, birasa nkaho hari abashyitsi bari kwitegura kwakira cyangwa se hari n'ubukwe.

Amazu maremare arimo ibyumba byinshi bitandukanye harasa n'aho biyakiriramo ndetse bakanaruhukiramo, hari ubusitani buri hafi y'aho.

Inyubako ndende aha yubatse hari ubusitani bw'ibiti burimo ndetse n'indabo zitandukanye, harimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda birasa naho aha mu nyubako bakiriramo abantu bagiye kuruhuka cyangwa se bagiye mu bindi bikorwa bitandukanye byo kwishimisha.

Inyubako ndende, imbere y'iyo nyubako hari abagabo barindwi bambaye amakoti, hepfo y'abo bagabo hari abandi bagabo babiri na bo bahagaze mu nyubako.

Intebe abantu bicaraho, imbere y'izo ntebe hari agahanda, n'inyuma yazo harirakabuga birasa n'aho abantu bicara aho hantu baje kuharuhukira no gukora ubushakashatsi.

Inzu nini irimo ibikoresho bigiye bitandukanye intebe, imisego, ameza ndetse n'ibindi, birasa n'aho abantu baza kuhicara mu buryo bwo kuruhukiramo ndetse no kwishimisha ndetse no kugirana imishyikirano.

Icyumba abantu bararamo, harimo igitanda, matela n'imisego ebyiri, hakabamo n'inzitiramibu, harimo kandi n'intebe yo kwicaraho, munsi y'icyo gitanda harimo inkweto zo kujyana kogeramo.

Inzu ndende irimo ibyumba bitandukanye, aho yubatse hari umuhanda, kuri uwo muhanda hino y'aho hari umurima uhinzwemo ibihingwa bitandukanye n'insina.

Icyumba abantu bararamo harimo matera, imisego ibiri, harimo igitanda, harimo amashuka, hari n'akantu ko gushyiraho ibikoresho, harambitse icupa ry'amazi.

Inzu nini cyane ifite imiryango itandukanye, ikikijwe n'ibiti kandi aho inzu yubatse hari ubusitani, hari n'indabyo zihahinze.

Ameza ariho ibyokurya by'amoko atandukanye, aho kandi hari n'amazi bogeramo mu buryo bwo kwishimisha, hirya y'ayo mazi kandi hahanagaragara imirima irimo ibihingwa by'amoko atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'abantu ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, hafi y'uwo muhanda hari inyubako zigiye zitandukanye zirasa n'aho bakorera mu ubucuruzi kandi muri uwo muhanda hari abantu bikoreye imifuka.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imyenda yo kwambara ndetse n'ibikapu. Iri soko riri hafi y'umuhanda w'igitaka ugendamo abantu ndetse n'ibinyabiziga.

Umumama ari kugenda yikoreye agakoreshasho kariho imbuto, hafi hari kugendera kandi haparitse imodoka ebyiri, inyuma y'izo modoka hari inyubako igaragara ko ari isoko.

Isoko ry'ibicuruzwa, abantu bicaye imbere y'ibicuruzwa, bari gucuruza ibintu bitandukanye, amavuta, udufuka, udukapu n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, ibyo kurya nk'ibitoki, hari n'ibikoresho twifashisha dukoresha mu rugo, kandi hari aho batangira serivisi za MTN zitandukanye ndetse n'iza Airtel.

Umuhanda w'igitaka ugendamo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abagenzi b'amaguru, hafi y'uyu muhanda kandi hari inyubako birasa n'aho zikorerwamo ubucuruzi.

Isoko harimo abantu benshi batandukanye ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye, hari ibitoki n'ibindi biribwa, harimo abagura n'abagurisha hari n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'amagare.

Abantu bicaye, imbere yabo hari imbuto ziri kumifungo, birasa n'aho bari kuzicuruza bategereje abakiriya bo kuzigura.

Isoko ririmo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye harimo umufuka urimo umuceri, harimo amasabune y'amabara atandukanye, harimo kandi n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi nk'amakayi ndetse n'ibindi biribwa.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa by'amoko atandukanye, aha hari kugaragaramo ibiribwa bijyanye n'imboga, n'imbuto, harimo abari kugura, ndetse n'abari kugurisha.

Icyumba kinini kirimo intebe n'ameza, ayo meza n'intebe biri mu matsinda atandukanye, birasa n'aho ari ahantu biyakirira ndetse bakanasangirira.

Ifite ibice bibiri, kimwe kiri hasi, ikindi kiri hejuru. Iyo nzu hariho utwuma turinda abantu kuba bagwa hasi, bagenda badufasheho, iyo bari kuva ku gice cyo hasi bajya ku cyo hejur. Hari indabo.

Umuhanda mugari wibinyabiziga ndetse n'abantu, hepfo y'uwo muhanda hari amapave aparitsemo imodoka, hubatse inzu, harasa n'aho zikorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga, harimo umuntu utwaye moto ndetse n'umugenzi, uyu muhanda kandi ukikijwe n'ibiti by'amoko agiye atandukanye.

Umuhanda w'ibinyabiziga ndetse n'abantu, harimo umuntu atwaye moto n'umugenzi, hepfo y'uwo muhanda hari amazu akorerwamo ubucuruzi.

Mu muhanda wigitaka harimo umuntu utwaye igare ndetse n'abamama babiri bose bambaye ubupfukamunwa, hirya y'uwo muhanda hari umurima w'ibishyimbo bishingiriye.

Umuhanda w'amapave unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abantu. Harimo umuntu utwaye moto, yambaye masike. Hepfo gato y'uwo muhanda hari inyubako, izo nyubako zirasa naho ari iz'ubucuruzi.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, ugendamo ibinyabiziga bitandukanye, moto, abantu ndetse n'imodoka, kandi hari inyubako zirasa n'aho ari iz'ubucuruzi hafi yaho kandi hari umutaka wicaramo abantu batanga serivisi za MTN.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga by'amoko atandukanye. Muri uyu muhanda kandi harimo umuntu utwaye igare kandi mu mpande zawo hari utuyira tw'abagenzi. Hafi yuwo muhanda hari inyubako ndetse iyo nyubako ikikijwe n'ibiti haparitse n'imodoka muri iyi nyubako.

Umuhanda mugari wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye, ndetse n'abantu hafi y'uwo muhanda kandi hari inyubako, irasa naho ari iy'ubucuruzi, hirya yaho gato hari igiti.

Umuhanda wa kaburimbo mugari ugendamo ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'imodoka ndetse n'abanyamaguru, uyu muhanda kandi hepfo yawo hari amazu birasa naho akorerwamo ubucuruzi kandi muri uyu muhanda harimo umuntu utwaye moto.

Kaburimbo irimo abantu benshi batwaye amamoto hafi y'umuhanda. Harimo ibiti by’amoko atandukanye, kandi hari n’inyubako. Kuri izo nyubako haparitseho imodoka zitandukanye.

Umuntu atwaye moto afite umugenzi mu muhanda, hari umuhanda umanuka hirya hepfo yaho hari ibiti, abantu basa naho bari bagiye ahantu.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, nka moto, imodoka ndetse n'abantu. Hafi y'umuhanda hari umurima urimo ibiti, kandi hari n'undi murima urimo ibihingwa bitandukanye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga by'amoko atandukanye, harimo moto amamodoka ndetse n'abantu. Kuri uyu muhanda kandi hari inyubako hari n'umutaka wicayemo umuntu utanga serivisi zo kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga harimo no gutanga amayinite.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uganamo ibinyabiziga bitandukanye, muri uyu muhanda harimo umuntu uhetse igare. Kuri ryo gare hari ijerekani kandi hafi y'umuhanda hari inzu zikorerwamo ubucuruzi zikikijwe n'ibiti.

Umuhanda mugari wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga ndetse n'abantu, muri uyu muhanda harimo umuntu utwaye moto, ndetse hirya y'uyu muntu hari n'undi uri kugenda n'amaguru hafi yaho haparitse imodoka.